Muri sale ni ahantu hahurigwaga n'abantu benshi bashaka gukora ibintu bijanye n'inama, cangwa si ubukwe , cangwa si bashaka gukemura ibibazo byabo cangwa si abashaka kwiga ku mishinga kugira ngo babashe kubikora neza.

Uduseke ni udukoresho dukoreshwaga ahantu mu bukwe. Cyangwa se bashaka kwerekana umuco gwa gakondo, ukuntu mbere batwaraga ibiribwa, cangwa se bakadukoresha ahantu ho mu birori.

Umutako w'igishushanyo ukundwaga n'abantu, bakundaga ibintu byo gushushanya. Umutakako gwifoto cangwa se gushushanyije, ntago ari ibintu baba bagiye ngo bafotore. Ahubwo ni umuntu uba wicaye, agashushanya neza ibintu bifinyoye.

Intore ni abantu babyinaga imbyino za gakondo cangwa se babyinaga, ibintu bijyanye n'imico za gakondo bashaka kugaragaza ukuntu mbere twabaga tumeze, cangwa se twabaga twishimye hano mu rwanda.

Mu nzu ndangamurage ni ahantu bafataga ibintu by'ibikoreshwasho byakoreshwaga mu gihe cashize bakabihashira harimo nk'amacumu, inkono, ingabo aba bagwanyi bakoreshaga mu gihe cashize.

Sharijeri ni igikoresho gikoreshwaga bari gucagenga, cangwa se bari gushira umuriro mu bikoresho by'ikoranabuhanga, harimo telefoni, harimo radiyo, harimo ampuli harimo.

Etage ni inzu ibaga yubatse, yubatse igerekeranye inzu ebyiri cangwa eshatu, nizirenze kuri eshatu.

Umudugudu rusange ni ahantu Leta ifataga abantu, igahita ibajana badafite ubushobozi bwo kwiyubakira inzu zabo. Ikabafata ikabahajana ikaja irahabafashiriza, ikabaha ibyo kurya, ibyo kwiyorosa n'ibindi bintu bitandukanye.

Urusengero ni ahantu abantu bajaga gusengera, nko mu rusengero gw'abagatulirika bo bafataga umwanya bakaja gusenga ku cumweru. Ariko nko mu nsengero z'abadive cangwa se ugw'abayisilamu gwo, abayisilamu basega kuwa gatanu, ariko urusengero gw'abayisilamu gwo ntabwo rubaga rumeze guca.

Inama nta ahantu hahurirwaga n'abantu benshi, bashaka kwiga ku kibazo runaka, cangwa se bashaka kureba uburyo bakwishyira hamwe bagakora, ikintu runaka bakagishyiramo imbaraga cangwa se.

Ritiko nazo ziri mu bantu baja...zijaga ziratwara abantu benshi zitwaraga abantu bari hagati ya mirongo itanu n'umwe na mirongo itanu na barindwi, utagiye urabariramo shoferi uyitwaye cangwa se komvayeri.

Balo ni igikoresho gikoreshwaga mu mikino zijananye n'umupira w'amaguru, cangwa se ivole, kikaba ari nk'igipirizo kibaga gipombyemo umwuka, bico bakacifashisha mu mikino zigiye zitandukanye .

Umugarideye ni umuntu bashiraga ahantu muzamu bico akaja ararindira abantu kugira ngo umupira utinjira muzamu noneho abantu bagashotamo imipira we akaja arahita azikuramo.

Umukino wa tenisi ni umukino ukinishwa, n'umuntu ufite akantu wagira ngo n'agapanye, akubitisha agapira kaje kari kumusanga akakarenza, vole bolo yabo welikamu, kacika umukinnyi umwe undi akaba ahise atsinda.

Abakinyi b'umupira w'amaguru bakina umukino ari abakinyi cumi babiri, ku rundi ruhande na bo baba ari cumi na babiri. Noneho nk'iyo batsinze igitego kikinjira mu zamu kigatsinda garidiye, haba hari igitego.